Akabari kubatse neza kariho ameza ,intebe za pulasitike abantu bicaraho mugihe bari kunywa, amashashi arinda kuba inzoga zameneka ku meza ndetse n'ibyuma biri imbere birinda igisenge.

Iduka ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo: telefone abakiriya, abacuruzi, aho itara ry'umweru, umuryango, igiti, insinga, amakaro ndetse n'utubati two guterekaho amatelefone, kugira ngo atangirika.

Inzu bagurishirizamo isandugu harimo amasandugu ataragurwa aho bayatereka kugira ngo atangirika, ibikarito bazanamo ibintu bitandukanye ihema rya INISEFU rigabanya ibikuta byombi, ndetse naho batekareka amasandugu ariko ho hatariho isanduku.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu bacuruza imyenda, amaduka bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, abantu bagiye bava ahantu hagiye hatandukanye, bazanywe mu masoko kugura ndetse no kugurisha imyambaro, umusozi uhakikije utuma bagira ikirere cyiza.